Ni apulikasiyo yo kubitsa no kubikuza yerekana uko amafaranga yahererekanyijwe hagati y'abantu iyi ikaba yakoreshwa nk'inyemezabwishyu.

Umuntu ushinzwe gukora imodoka arimo aganira n'umukiliya cyangwa umuhagarariye barikungurana ibitekerezo cyangwa kuvugana ku byerekeranye n'akazi bakora.

Aha ni ahantu hakorerwa serivisi zo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga cyangwa n'amanyarwanda nizo serivisi zihatangirwa.

Ni inzu bigaragara ko ishobora kuba ari iyo guturamo cyangwa ikaba ari hoteri cyangwa akaba ari inzu ikorerwamo n'ikigo runaka, hagaragara amamodoka abiri aparitse hanze ndetse n'ubusitani.

Ni inzu ikodeshwa iri kwamamazwa ifite icyumba kimwe, ubukarabiro bumwe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi. Iherereye Kigali Kacyiru.

Inzu yo gukodeshwa, iherereye i Kigali Kibagabaga, ifite ibyumba bitanu, ikabifite n'ubukarabiro butanu, ikodeshwa amadolari igihumbi magana arindwi ku kwezi.

Iki n'ikirango cyerekana ubwisungane mu kwivuza mutuwere desante ifasha abanyarwanda kwivuza ku buryo bworoshye.